Abagabo bagaragara nk'abari mu nama, umwe wambaye ikote ry'ubururu na karuvati afite mikoro mu ntoki imbere ye ku meza hararambitseho amatelefone arimo aratanga igitekerezo k'iwe abari inyuma bakurikiye ibyo ari kuvuga ariko banarangariye mu matelefone yabo.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese ari kwandika bimwe mu biri kuvugirwa muri iyo nama, imbere yabo hateretse ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hari mikoro ziri ku meza aho buri wese ugize icyo ashaka kuvuga akoresha iyo mikoro kugira abandi bose bamwumve.

Abayobozi b'umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama, bicaye ari abagore bane n'umugabo umwe w'umupolisi, imbere yaba hateretse amazi bigaragara ko bayoboye inama, aho umwe muri bo ahagaze ari kubwira abari mu cyumba k'inama.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abandi bantu ari kubagezaho imbwirwaruhame, aho ari kubareba ndetse anababwira ku bijyanye n'ishoramari mu karere ka Nyagatare, ababwira uko bakwiteza imbere ndetse n'uko bagenda bakorana n'ibigo bitandukanye kugirango batere imbere mu bijyanye no kwihangira imirimo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, abacaye imbere harimo umusirikare umugore n'umugabo, umusirikare ari kwandika bigaragara yuko akurikiye ibiri mu nama ndetse ari na byo ari kwandika.

Urubuga irembo ubu ni bumwe mu buryo bwashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo bafashe abaturage kubona ibyangombwa ndetse n'ibyemezo bigiye bitandukanye, kuri uru rubuga bashobora kubonaho ibyangombwa bitandukanye nk'icyemezo cy'imiturire, icyemezo cy'amavuko ndetse n'ibindi bitangwa n'inzego zigiye zitandukanye.

Ku rubuga rw'irembo, ahatangirwa ibyangombwa bigiye bitandukanye, aha hari kwakwa icyangombwa kijyanye n'iby'inganda, aho bashaka gukorera mu karere ka Huye, umuntu ari kugenda ahitamo ibijyanye n'ibyo azakora, kugira ngo abone icyo cyangombwa.

Itangazo ryibutsa abashinzwe kumenyekanisha imisoro ku bushake ko hasigaye umunsi umwe ku munsi wa nyuma wo kwimenyekanisha ni ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwacumi ibihumbi bibiri na makumyabiri nakane uzarenza icyo gihe azahanwa n'amategeko agenga imisoro.

Ipoto ry'amashanyarazi ritanga umuriro mwinshi zigiye zitandukanye ibi ni bimwe mu bikorwa remezo byagiye bishyirwaho na leta kugira ngo babashe guteza imbere abaturage aho bifasha mu bikorwa bitandukanye birimo mu kumurikira abantu ndetse no gucana mu nganda ndetse n'ahandi kugira ngo biteze imbere.

Ipoto y'amashanyarazi iteye mu gice kiri inyuma y'inzu zigiye zitandukanye, aho ikwirakwiza amashanyarazi mu bice bitandukanye, ibi ni ibikorwa bimwe bya leta igenda ishyiraho kugira ifashe abaturage mu iterambere, aho bibyarira umusaruro inyungu z'abatuye hafi aho ngaho ndetse n'igihugu muri rusange.

Ipoto y'amashanyarazi itanga umuriro mu ngo zitandukanye, inyuma hari imikindo, hari n'ibindi byatsi by'indabo, inyuma na none hari inzu iri iruhande rw'umuhanda.

Ipoto y'umuriro itwara amashanyarazi mu ngo ikaba inatwara umuriro ahandi hagiye hatandukanye inyuma y'iyo poto hari inyubako bigaragara ko ari urusengero kuko hejuru hari umusaraba hari n'indi poto inyuma yayo itwara umuriro ahantu hagiye hatandukanye.

Ipoto ry'amashanyarazi rizwi nk'ipironi, ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa na Leta ikwirakwiza umuriro mu baturage, aho bubaka amapoto manini atwara umuriro mu duce dutandukanye, aho bashobora kubaka uruhererekane rw'umuriro uva mu gace kamwe cyangwa mu Ntara imwe ujya mu yindi Ntara.

Ahantu hazengurutswe n'ibyuma bigaragara yuko nta muntu wemerewe kuhinjira atabifitiye uburenganzira imbere harimo amabomboni ya gaze bigaragara yuko babujije abantu kujya bajyayo uko bishakiye kuko uramutse ugiyeyo bishobora kukugiraho ingaruka nka gaze ishobora kuba yaguturikana.

Umugabo ukekwaho ibyaha afite agacupa mu ntoki yambaye amaping; arinzwe n'umupolisi ufite imbunda, zigaragara yuko ari kuva aho yari afungiye; aho bashyira abakekwaho ibyaha, ajyanwa ku rukiko kugira ngo ajye kuburana.

Umukobwa cyangwa umumama ukuze yambaye shanete mu ijosi yambaye imyenda y'akazi ni umukozi wa leta ushinzwe ibijyanye n'ubucamanza bikaba bigaragara yuko yambaye imyenda y'akazi agiye gutangira akazi ke.

Abagabo batatu bicaye mu rukiko, babiri ni abavoka ndetse umwe ni umuburanyi, bigaragaye yuko bamuburanira barimo baraganira ku bijyanye n'urubanza.

Icyumba cy'inama y'inteko shingategeko y'u Rwanda, hari abagore bahagaze bari kurahirira ku madarapo y'igihugu, hari umuyobozi w'igihugu wicaye imbere, hari ikirangantego hejuru ku gikuta, ndetse n'idarapo ry'ikirangantego, hari abandi bagabo bicaye mu ntebe bari gukurikirana indahiro.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, imbere yabo hateretse mikoro, hagati hicaye umuyobozi w'ishyaka rishinzwe kurengera ibidukikije, akaba arimo kwiyamamaza kugira ngo azatorwe, aha ni mu matora yo muri bibiri na makumyabiri na kane, aho yari ari kwiyamamaza ngo baza mutore.

mpayimana Filipe umugabo wiyamamarije kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane, aha yari ari kwiyamamaza ahagararanye n'abagabo babiri ndetse n'umugore we yicaye inyuma, inyuma hari intebe ziticayeho abantu z'ubururu, hari ibyapa bigaragaza ifoto ya Mpayimana Filipe ndetse n'imigabo n'imigambi y'iwe.

Icyumba k'inama y'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ahagaze imbere yabo arimo arabagezaho ijambo, abandi bose bitabiriye inama bakurikiye ibyo ari kubabwira kandi urabona yuko bibashishikaje cyane.

Umuhanda urimo abantu benshi b'abanyamaguru, ukikijwe n'inzu ziteye imbere inzu ya etage, hari ipoto rikwirakwiza amashanyarazi ndetse hari n'insinga zinyuranaho hejuru zigenda zitwara umuriro ahantu hagiye hatandukanye, hariho umuntu ufite umufuka ku ngorofani, uri kugenda usunika.

Umuhanda wa kaburimbo ukoze neza, hariho icyapa cyerekana ko ari mu gace ka rambura mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande hari amatara agenda acanira umuhanda, hari abantu bari kugenda mu muhanda, hari ndetse na bisi iri guturuka ruguru imanuka muri uwo muhanda.

Kimwe mu byapa bimenyesha abatwaye ibinyabiziga ndetse bikerekana yuko ko hari imihanda ibiri iri imbere, umuhanda ukatira ibumoso ndetse n'umuhanda ukomeza imbere aho utwaye ikinyabiziga agomba kumenya aho yerekeza ndetse n'umuhanda ari bunyuremo.

Umuhanda urimo imodoka ya bisi, abamotari batwaye moto, ku mpande hariho imikindo, hariho amatara yagiye ashyirwaho na leta kugira ngo amurike mu gihe cy'ijoro akaba ari bimwe mu bikorwa bikorwa na leta kugira ngo ifashe abaturage mu iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa kibuza imodoka nini guca muri uwo muhanda hari izindi modoka ntoya ziparitse indi iri kugenda mu muhanda hari ipoto y'amashanyarazi ikwirakwiza umuriro muri kano gace aho ari bimwe mu bikorwa bya leta biba byaragiye bikorwa kugira ngo bifashe abaturage gutera imbere.

Imodoka zi nyinshi ziri mu muhanda mu gace ka Remera, ku mpande y'umuhanda hateyeho imikindo ndetse hari n'amapoto y'umuriro amurika ku muhanda ndetse no muri ako gace, a ibi ni bimwe mu bigenda bikorwa kugira ngo habashe gutezwa imbere ubucuruzi ndetse n'imigenderanire y'abantu muri kano gace.

Ihuriro ry'imihanda aho imodoka zizenguruka zigafata ibyerekezo ziribujyemo, hazengurutswe n'amapoto hariho amatara acana hakaba hari ibiti biteye imbere muri iryo zengurukiro aho imodoka zigenda zikata zigahita zifata ibyerekezo byazo.